Umugabo wambaye ubusa n'ipantaro yacitse y' igice icikira mu mavi, ari ku bintu ku myanda ndetse n'ibiti bimukikije bitandukanye, ni imyanda imeze nk'ifumbire.

Ifumbire cyangwa se ibishingwe bahingisha ibirayi ndetse bakayihingisha n'indi myaka itandukanye, iyo fumbire ikaba izwi ku izina ry'imborera. Ihagazwemo imenwe mu gisambu ikaba ihagazweho n'umugabo wambaye umupira w'umutuku, ari kurebako iyo fumbire yamaze kubora neza.

Ibyatsi biri mu kibaya, hariho n'ishamba. Ibyo byatsi bikaba hejuru yabyo hari ikintu kimeze nk'indege, bari kugerageza gukora, iri mu kirere, byitwaye nk'indege ya kajugujugu.

Igiti cy'indimu bari kugitera umuti, bakoresheje ipombo ifuhira, bari guteraho umuti w'urusimba, igiti cy'indimu cyangwa se ironji kikaba ari igiti gikoreshwa mu buryo bwo kuvura ibicurane cyangwa se kikagarura apeti ku muntu wabuze apeti bivura n'inkorora. igiti cy'indimu.

Umugore uhetse icyuma gitera umuti, yambaye imyenda y' umuhondo ni cyuma gifite ibara ry' umuhondo, n' ibara ry' icyatsi ari gutera umuti ibirayi.

Umugore uri kugenda mu gisambu ahetse icyuma agiye gutera umuti, afite n'igipaniye yihembyemo ibiryo n'ikirago ari, cyangwa se umukeka arasasa umuhabana ageze mu murima.

Umuti batera mu myaka mu birayi cyangwa se mu bigori. Uyu muti bakawutera bagamije gukingira indwara zitandukanye. Ariko uba urimo n'ifumbire kuko iyo bawuteye mu myaka ,imyaka ikura neza.

Amacupa abiri arimo umuti w'urusimba, icupa rimwe ryanditsweho amagambo adasobanutse, n'irindi cupa rishushanyijeho inyundo n'urusimba, iyo nyundo ishaka gukubita urusimba mu mutwe. Uyu muti tuwutera mu myaka mu bigori mu bishyimbo bigufi ndetse dukunda kuwutera iyo twatewe na nkongwa.

Umuti w'inyanya uri mu macupa abiri uyu muti bakaba bawutera inyanya bashaka kuzirinda urusimba, bashaka kuzirinda n'ibindi byonnyi bitandukanye noneho uyu muti uterwa n'ibindi by'imbuto n'ubundi bwoko bw'imbuto butandukanye ukaba uteretse muri kontwari aho bawucururiza.

Ibyo kurya biteguwe biri ku isahani, harimo ifi, ifiriti, urunyanya, pavuro, ndetse n'igitunguru, bikaba biri ku isahani, biryoshye.

Ifi yokeje iteguye ku iparato, ariko ikaba iruhande rwayo hariho indimu nako ironji riketse neza n'ikirungo na salade yo kuyirisha. Iyi fi ikaba yokeje. Ifi ni nziza ku buzima bw'umuntu.

Ibiryo byo muri resitora biriho ikanya, ibyo biryo bikaba biriho wotameloni n'ironji, n'umuceri n'ibindi birungo bitandukanye.

Isoko ry'amafi, indagara ndetse n'ibikomoka, n'ibicuruzwa; amafi, ni amafi bororera mu mazi, indagararan ni iziva mu mazi, byose biri mu bwoko bw'inyama zitunga umubiri. Iyo amafi uyariye agira intungamubiri ku bana ndetse no ku bantu bakuru, ndetse n'indagara nazo baziteka mu biryo. Aya mafi menshi ari mu mifuka itandukanye, n'indagarara biri mu mifuka itandukanye.

Amafi yumye akawushije ababuye ari mu ndobo. Bakaba bagiye kuyacuruza mu isoko, ndabonaho n'ikiganza gifashe iyo ndobo, indobo ya pulasitike ariko amafi yo arumye kugira ngo atangirika.

Ifi nyinshi ntoya zokeje ziri impande ya voka avoka akse. Ifi barazirya izi fi bakunda kuzirya zokeje cyangwa se bakaziteka bagakoramo agasosi. Ifi na zo ziri mu bwonko bw'ibyubaka umubiri, ni inyama.

Amafi amanitse ku mugozi ariko adahuhuye agifite ibihwa batari bagura atanditse nyine aho bayacururiza, ni amafi abiri.

Isosi mu isorori irimo ibirungo, kaba ari isosi y'ifi irimo ibirungo bya seleri, iyo sosika isa nk'umutuku, iri umosorori y'umutuku nako y'umweru, iriho ururabo rw'icyatsi n'umutuku.

Ubwanikiro bw'amafi buri mu kishanga hakurya imusozi hakaba hari ubwato ndetse ubwato bukaba buri mu mazi, noneho hakurya imusozi hakaba hari ibyatsi bisa n'icyatsi noneho ubwanikiro bukaba bufite akaba ari ibitanda bifite amaguru atatu, akaba ari ranje ebyiri imwe iri iburyo indi ibumoso.

Ibiti by'intusu byinshi biri mu murima aho bita mu ishyamba ibi biti bikaba bikoreshwa bari gucana ibi biti bara byubakisha, ibi biti barabizitiza, ibi biti bifite akamaro kenshi, ibi biti bikurwamo ibiraro ndetse ibiti bana bitwikisha amakara.

umurima munini wasaruwemo ibigori, ibyo bigori byari bihinze ku mitabo hakaba harimo ibyatsi bitandukanye e noneho uwo murima ukaba ufite urimo ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi noneho ibyo byatsi bikaba biteye nabyo ku mitabo imitabo yegutse imitabo bayicya bari kugirango.

Abagabo batatu bari gusakara inzu y'amabati，ariko bakoze indege y'ibiti， imbere y’iyo ndege， hariho ubwiherero ku mpande， kuri iyo nzu hariho urukuta rw'amatafari ahiye， avanzemo n'igitaka hejuru rukubishije sima.

Umurima w'amajeri cyangwa se amashaza, aya mashaza afite uruyange, ageza igihe cyo kuribwamo urunyogi, urunyogi ni amashaza mabisi bateka mu gituboki cyangwa se bakayatekana n'udukaroni, amashaza bayakunda kuyateka muri hoteli ariko no mu rugo barayarya, barayatera, agira intungamubiri nyinshi Ku buzima bw'umuntu.

Ikidodoki kiri mu murima kiriko na ndereri, ndereri yera ibihaza by'imboga ifite n'ibisusa baza gutekamo, bigira imboga z'icyatsi birwanya bwaki, bikaba bihingwa mu gice cyo mu Kinigi no muri Muko na Musanze.

Ubwatsi bw'urubingo e noneho n'insina yera igitoki, hakaba hariho n'iteke ry'irizungu ry'iribungu, ubu bwatsi bw'urubingo cyangwa se kamerone babuha inka noneho igitoki cyo ikivovo bagiha inka, ariko igitoki......

Umurima w'injumbu wasaruwemo ibirayi， uwo murima ukaba ari ikirayirayi，ukaba urimo ibyatsi n’ibyobo byagiye bivamo ibirayi，noneho hirya hariho imbibi zigaragaza aho uwo umurima ugarukiye，hakaba hariho n'ibiti birebire bifite amabara y'icyatsi.

Umurima usaruwemo ibigori bya buride n'ibindi bigori bya buride bitari byera hakaba hariho n'insina, insina yera igitoki bakakirya, bashobora kukiryamo amaganda, bakakirya gitogosheje cyangwa bakakirya gikaranzemo ifiriti noneho ibigori na byo bivamo ifu y'igikoma cyangwa se bakabitekamo kawunga.

Umurima wasaruwemo, igihingwa cy'amasaka.

Amajeri ari mu muririma atari yayanga, n'ikigorigori umurima wavuyemo ibigori biri mu muririma aho basaruye ibigori, aya majeri akaba afite ibara ry'icyatsi iyo yeze bayaryamo urunyogwe cyangwa se bakayasarura bakongera bakayahinga, araryohaga.

Umurima w'ibirayi bya kirundo byenda kwera bifite uruyange, impande yabyo hakaba hariho igisambu kirimo ubusa cyasaruwemo ibigori, kuri ibyo birarayi bikaba bikikijwe n'ibiti noneho ibirayi biraribwa ari amaganda, bikaribwamo ifiriti, bikaribwa bitogosheje ibirayi ibitera imbaraga.

Ibiti by'imibirizi n'inyinya biri impande y'inzu n'akayira k'agendererano kagiye mu gikari ku rugo ruri mu gikari nyine ku cyikoni, akayira k'akagendererano n'ibiti ndetse n'inzu nini n'urugi rutandukanya igikoni n'inzu nini.

Ikigega cyangwa se ubuhunikiro bw'ibirayi bufite igikoni ndetse buri impande y'imirima ihinze nk'umutabo ufite indego eshatu n'usasa impande yaho.

Ibirayi bihinze mu murima, mu gisambu, bivanze n'ibigori, hirya hariho n'ishyamba, ibiti, harimo n'ibishingiriro biriho ibishyimbo, harimo n'indego, ibi birarayi, ni ibirayi bya Kinigi bihinze mu murenge wa Kinigi, mu karere ka Musanze.

Umurima munini wa karoti ziri mu murima zenda kwera. Izi karoti zirabura nk'ibyumweru bibiri ngo bazisarure. Impande y'aho hari imihati, imihati bayikoresha bari gutegura mu birori, igira ibitako byiza cyane. Izi karoti zo baraziteka zivura igifu n'amaso ziza no mu ndyo yuzuye.

Ihene ziragiwe mu murima, ni ihene eshatu imwe nini n'izindi ebyiri ntoya, n'utwana tw'iyohene nini, ziragiwe mu murima. Zikaba aho ziragiwe ari ahantu hashashe hakikijwe hari ibyatsi bya cimeza bitandukanye hakikijwe n'uruzitiro.

Igiti c' icunga kiri impande y' uruboga rwa dodo, rufite ibara ry' icyatsi. Icunga ni urubuto, uruboga rwa dodo ni: uruboga bategura bateka, rurinda indwara, bashaka kurya indyo yuzuye; naho icunga ryera, amaronji ayo (maronji) akaba acuruzwa mu isoko, ariko baranayarya kugira ngo agagura mu kanwa iyo wabuze apeti.

Umurima wakuwemo ibirayi, impande hari ibindi birarayi, imihati, ndetse n'ibidariya n'ikigorigori n'igiti cy'indumburabutaka n'ingemwe z'ibinyomoro ziriri mu uyu muririma, bateganya kuzateramo nindeko.

Abaturage bari kumwe n'ubuyobozi, bakaba bafasha ibihoho mu ntoki birimo ingemwe bagiye gutera, abayobozi bambaye imipira y'umweru cyangwa se ya kake, abandi baturage bafashe ibyo bihoho mu ntoki.

Inyanya nziza z'indobanure n'intoryi zitanditse ku mufuka hakaba hariho n'umugabo uhahagaze wambaye supuresi z'umweru ,izi nyanya zikaba zitekwa, n'intoryi baraziteka bakazikoramo isosi, ushaka wazihekenya ari mbisi ,byose ni ibiribwa bifite intungamubiri ku buzima bw'umuntu.

Imisogi y'amajeri, amajeri cyangwa se amashaza yo batonoramo urunyogwe bagateka mu gitoki cyangwa se bagateka no mu birayi by'intogose, amajeri bakunda kuyakoresha mu birori habaye ubukwe, bayakura he? Iyo ufashe iri jeri ukaritonora imbere ubonamo amasaro ariyo bita amashaza.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara ,ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, akaba ahagaze mu murima munini w'amatunda. Amatunda y'amarozi ariko atari yatangira kwera ayo matunda akaba ari kuranda ariko afite ibara ry'icyatsi ,iyo yeze ayo matunda agira intungamubiri ku bana ndetse no ku bantu bakuru, kuko ayo matunda bayakoramo ji n'ibindi bintu bitandukanye.

Umugabo wambaye ingofero yicyatsi, umupira wumukara, isaha mu kuboko, afashe ku rusenda ruri mumurima rufite ibara ryicyatsi, umugabo ari guseka, ari kurwitegereza kurwifotorezaho.

Puwavuro na karoti bitaditse hejuru y'ibikarito, bikaba biri mu isoko ry'ibiribwa. Puwavuro ni ikirungo bashyira mu biryo cyangwa se mu nyama kugira ngo bitagaga, bikagira impumuro nziza, karoti nazo ziraribwa, barazihekenya, cyangwa se bakaziteka mu biryo, karoti ziraryoha.

Ibitunguru bya onyo cyangwa se ibitunguru by'ibijumba bifite ibara ry'umutuku, ibitunguru bikaba biribwa, ibitunguru bikaribwa ari bibisi, ibitunguru babikoresha bari gukaranga nk'ikirungo ibitunguru bikaba bivura amaso, ndetse iyo ushyize igitunguru gikeya ukakivanga n'isukari kivura inkorora.

Umugabo uri gusarura avoka zitwa hasi, izo voka akaba ari kuzishyira mu dupaniye. Hariho udupaniye tw'ubururu, udufiye tw'icyatsi, udupaniye tw'umutuku ndetse n'udupaniye tw'umuhondo. Izi voka zikaba zikunzwe cyane ngo zivamo n'isabune.

Umugore witeze igitambaro yambaye agapira ka karokaro, igitambaro ni icy'umweru, ahagaze mu bishyimbo ari gusoroma umushogororo. Umushogororo nawo uri mu birinda indwara ni imboga bateka.

Amateke atatu yamabwayisi aturuka mu misozi aya mateke ikiro kigura amafaranga magana atanu bayatogosanya n'ibirayi cyangwa se ukayateka yonyine cyangwa ukayagereka ku bishimbo ayamateke araryoha.

Umugabo wambaye, wirabura wambaye umupira w'umukara ufite ibara ry'umukara umweru ,uturongo ko tw'umukara n'umweru wa lakosite ufite ikora ry'icyatsi afashe ibigori bya mayizori mu ntoki, ibyo bigori ni ibigori byumye wabiteka cyangwa ukabitera.

Abagabo babiri bambaye umupira w'icyatsi bafite uruhara, umwe ufite uruhara wambaye n'ingofero bari kwifotoza ku birayi by'uruyange. Umwe yambaye ipantaro yumukara nundi yambaye ipantaro y' ikoboyi.

Abagore n'abagabo bikoreye ibitebo bari kugenda mu kagendererano bavuye gusoroma icyayi .Abo bagore imvura yabanyagiye ariko bikoreye icyayi mu bitebo ndetse hejuru y'ibi bitebo bafite, harimo n'ibindi bitebo bagiye barasoromesha.

Imyembe ni igihingwa gihingwa ahantu hashyushye. Iyi myembe iraribwa, iyo umuntu ayirya ihiye igaragazamo imizi mo imbere, ariko ikaba ifite amazi aryohera. Imyembe ivamo ji, ikaba ari igihingwa ari urubuto ruryoha cyane.

Puwavuro. Puwavuro yeze, iba ifite ibara ry'umutuku n'ifite ibara ry'icyatsi . Noneho puwavuro zikaba zitekwa mu biryo. Zirinda kugira ngo ibiryo bitagaga ,zitekwa mu birungo ,ziri mu birungo by'inyama . Puwavuro ni ibirungo, igihingwa gihingwa mu muririma ,ariko kikaba kigira umusaruro, gitanga amafaranga, barakirya kandi bakanakigurisha

Ibigori bya iburide byagiye bicika bari gupfundika. Hakaba harimo ikiganza cy'umugabo wambaye ishati ya move uri kubyanika. Ibi bigori bikaba byararwaye ingese, ariko ibigori bivamo igikoma, ibigori barabirya.

Imyumbati iri ku giti cyayo yo hasi yeze, twakwita nka gitamisi, ivamo ubugari n'isombe zayo ziri hejuru zisa n'icyatsi, imyumbati yo isa n'igitaka nyine bigaragaza igiti cyashoye.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro， ndetse n'agapfukamunwa n'ipantaro y'umukara， afashe ku ishami ry'igiti cya voka，ari kureba ko avoka iri muri icyo giti yeze. Avoka iraribwa， iribwa ari deseri， ndetse ukaba wanayirya ku biryo bisanzwe.

Amaronji avamo ji atandukanye yeze ari ku biti byayo bya nyina, batari basoroma avamo ji ji y'abana. Rimwe rigura amafaranga magana ane cyangwa se magana arindwi.

Imyumbati y'imiribwa ariko mibisi batari batonora ngo bagerereke, baza gutonora ngo bagereke ku bishimbo cyangwa se bakayitonora, bakayinika, ikazavamo ubugari bwo guteka. Ni imyumbati ibiri.

Ibigori bya buride biri mu murima bimaze guterera, ibi bigori bikaba bitegereje kwera, noneho iyo byeze bakaba babivanamo ibigori byo kurya, iby'igikoma, ndetse hakurya y'ibigori ni umurima munini, hakaba hari imisozi miremire.

Uwo mufungo w'ibitunguru bya onyo, ndetse n'urusenda rutanditse ku mufuka, urusenda rwitwa piripiri urwo rusenda rukaba rukoreshwa mu rugo, bararurya rwirukana inyoni mu bigori, ndetse urusenda rufite akamaro ku bantu babuze apeti barurya bashaka kugira ngo rugagure mu kanwa.

Abagore n'abagabo bambaye imipira y'icyatsi bazwi ku izina ry'abajyanama b'ubuhinzi bari kumwe n'umugabo, bari ku bishyimbo bigufi mu ibyo bishyimbo bigufi hahagazemo umugabo wambaye umupira w'umukara, noneho hakaba hariho n'undi mu bambaye imipira y'icyatsi uri gusobanurira abandi uko ibyo bishyimbo bihingwa kugira ngo bitange umusaruro uhagije.

Umugabo muremure uhagaze mu murima we.

Igihingwa cyiza cyane kitwa amashu. Amashu ni meza kuko abamo intungamubiri nyinshi cyane.

Ibigori bya iburide bitabagawe biri mu gisambu, ibyo bigori bikaba bigeze igihe cyo guterera. Ibyo bigori bikaba biribwa bitetse, byokeje, ndetse n'iyo byumye bivamo igikoma.

Isoko ry'ibirayi bya kinigi ndetse n'ibirayi by'umweru. Umugore ari kubicuruza n'umugabo afite ikibafu ari kujya barariterura barenge bari kuyoza kugira ngo babijyane ku munzani n'abantu batandukanye baremye iryo soko.

Ibigega by'amazi, ibisiterine biteretse mu kirere byo gufuhira imboga n'imbuto hano muri pepiniyeri mu gihe imvura yagize itaguye, ibi bigega byifashishwa bifuhira harimo n'abantu bari gutera umuti.

Isombe yo ku bicucu itanditse mu isoko, barabisekure ibi ngibi, cyangwa se bakabibetesha bagakuramo isombe yo guteka, iyo ushaka kubibetesha uvanga n'ibirungo, nka pinari cyangwa se tungurusumu, cyangwa se ibindi birungo bitandukanye, nka puwavuro n'ibitunguru by'imboga ubundi ukabetesha.

Muri gare, impande ya gare ya Musanze, mu isoko ry’imboga n’imbuto, ahacururizwa karoti, amaronji, ibishufureri, amashu, inyanya n’ibitunguru by’umweru n’iby’umutuku, biri gucuruzwa, n’amashaza, biri gucuruzwa mu isoko rya.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi na ko umupira w'umukara n'ingofero y'urugara avuye guca amashu abiri aya mashu bayakoresha iyo bari guteka barayateka bakayarya, bayakuramo salade amashu ni imboga zikundwa ,ziribwa mu bishyimbo bazirya bashobora no kuyarya ari mabisi mo salade.

Urunyanya, urunyanya rugiye mu giti cy'inyanya kiriho inyanya zigiye kwera, zigiye guhisha n'inyanya zikiri mbisi. Inyanya bazikoresha bari kurunga ibiryo, baziteka, bashobora kuzikekera mu buryo, ugashobora kuzirya ari mbisi, inyanya zifite akamaro ku buzima bw'umuntu, inyanya zikaba utera inzuzi, nyuma izo nzuzi zigakura, ukazitera umuti, ukanazisarura.

Jaride y'indabo ,indabo zitandukanye, impande ya jaride hari agasikariye gasize irangi ry'umweru n'umukara. Izo ndabo zikaba ziri impande y'inzu . Indabo ni umutako.

Agiye kubagara ibirayi uyu mugore, ibirayi biri mu gihe cyo guterwa umuti. Ari kubitambagira ngo arebe ko byeze, ibi birayi ni ibirayi bya Kinigi. Ibi birayi agiye kubibagara ngo arebe ko bye.

Abana b'ihene babiri bari kurisha ibyatsi, umwe w'umu wi w'ikijuju ufite ibara rija gusa n' umweru n'igitaka n'undi wunamye uri kuririsha, biri impande y'igiti.

Umugore wambaye umupira w'umutuku n'igitambaro cy'ubururu uri kubagara ibirayi abagaza intoki, uwo mupira ukaba ufite amaboko y'umweru, uwo mugore arirabura, ibirayi biri mu gihe cy'ibagarwa, ariko hirya y'birayi hari igisambu kirimo umucaca.

Indabo, indabo zifite ibara ry'umweru n'umuhondo, zeze. Indabo bazikoresha bari gutaka mu rusengero cyangwa ahantu bagize ubukwe, cyangwa se indabo bakazikoresha bari gushyingura abantu bapfuye bazijyana ku mva. Indabo bashobora no kuzikoresha bari kuziha abantu bagiye gushinyingirwa bari mu rukundo bahana indabo.

Abana batatu, umwe afite inkoni bicaye imbere y'inka , inka zigera kuri cumi n'eshatu hakaba harimo inka z'umukara n'izindi nka zifite ibara ry'umweru n'umukara inyuma zifite icyasha inyuma ku kibuno ku murizo izi nka zikaba ziri ahantu hazitiye hirya y'izo nka hakaba hari.

Puwavuro, intoryi, imiteja, n'amaronji ibi ni ibicuruzwa bitandukanye bitanditse ahantu. Puwavuro baraziteka ni ikirungo, imiteja iribwamo isosi, ibitunguru ndetse n'intoryi na byo bakaba intoryi bazikoramo isosi bakaziteka mu bishyimbo, amaronji akabavura.

Ingemwe z'imisave ziri muri pepinyeri na nyiri pepinyeri ari kuzitambagira, iyo pepinyeri irasafa irasakariye imisave n'ibiti byiza bikoreshwa byozwa ibibindi bagiye gushiramo umusururu.

Ikinyomoro kimaze kubagarirwa kitaratangira kwera, kibura amezi abiri ngo cyere. Ikinyomoro ni igihingwa kiribwa kandi kigaburirwa umwana amaze nyuma y'imyaka ibiri, kuko iyo mbere yakiriye mbere y'aho cyica apeti, ariko cyongera amaraso ku bantu bakiriye.

Avoka ebyiri zo mu bwoko bwa Hasa zirasatuye, imwe irasatuye ifite imisatu ibiri, imbere harimo ikibuto, indi ntisatuye. Avoka ni nziza zituma umuntu agira uruhu rwiza iyo umuntu ayirya. Ushobora kuyirya ku biryo, ushobora kuyirya yonyine, avoka iraryoha.

Umugore ufashe mu biganza ibirayi by'umweru, yarebye imbuto y'umweru, akaba akenyeye igishora cya move, agapira k'icyatsi, ndetse yiteze n'igitambaro, imbere ye hari ibindi birayi birambitse hasi bikuye biri mu murima.

Ee! Ibihoho birimo ingemwe zo gutera za pepinyeri zifashwe n'umugore mu ntoki, izo ngemwe akaba ari indumburabutaka. Ee! Zifashwe n'umugore wambaye ijile uri guseka wirabura witeze n'igitambaro gitukura.

Ibibiriganya n'intoryi biri mu isoko n'ibitunguru bya onyo by'umweru n'iby'umutuku biri gucuruzwa mu isoko, ikigega cy'amazi. Ibi ngibi bikaba hariya hirya yabyo hari ibyo bita kokombure, biri gucuruzwa mu isoko rya Musanze hariho n'igisima.

Abagore babiri bambaye udupfukamunwa biteye na esharupe n'umugabo wicaye mu gihingwa cy'inanasi. Inanasi ni igihingwa gihingwa mu misozi cyangwa se ahantu hashyuha, inanasi barazirya baziryamo deseri, inanasi zivamo umutobe mwiza uryoshye ndetse baranazitegura mu mahoteli, inanasi ni imbuto.

Umufungo w'ibirayi bitanditse， ibirayi bakaba babiryamo amaganda， bakabirya bitogosheje， bakabiryamo ifiriti，cyangwa se bakabitekamo agatogo， ibirayi biraryoha， ni ibihingwa ngandurarugo.

Ibijumba byatura bitanditse mu isoko, mpande yabyo hari amateke y'amabwayisi. Ibijumba barabirya, ibijumba bitera imbaraga, bikaba bigira isukari, bivamo na biswi. Ibijumba ni igihingwa gikunda guhingwa mu misozi.

Umurima wa karoti, izo karoti zikaba zeze, zikaba ziri gusarurwa n'umugabo n'umugore, umugore yiteze igitambaro, umugabo nawe yambaye ishati ya karokaro bari kugenda bafata kuri karoti bazirandura, karoti ni imboga bateka, cyangwa baranazihekenya, zigatunga umubiri.

Imyumbati myinshi isaruwe imyumbati y'ibitaminsi bakaba batari bayinika, impande y'aho hari imyumbati yinitse iyi myumbati iyo myumbati ikaba ifite ibara ry'umweru, noneho iyi myumbati ikaba ivamo ubugari. Ubugari barabuteka bagateka amazi bakabuteka bakaburya, ndetse bagakora bakabuvanamo n'imikati.

Ibigori bihinze mu murima bitandukanye, ibyo bigori bikaba ari ibigori bya bulide, hagati yabyo n'ibindi hagiye harimo santimetero mirongo ine ,ibi bigori bikaba bimaze kubagarirwa bikaba bitanga umusaruro.

Pavuro ebyiri zisa n'umutuku ubwo zaratukuye zikaba ziteretse ku kintu cy'umweru noneho izo pavuro zikaba zifite inkondo zazo uko baziciye pavuro bakaba bazitekaga mu nyama kugirango zigatekwa no mu bishimbo.

Abantu benshi bari mu murima, harimo abagabo n'abagore noneho imbere yabo hakaba hari abagoronome. Umwe ari guca imyobo yo guteramo imyaka, undi ari kugenda ashyiramo ifumbire, abo bantu bakaba bari gutozwa uko bazajya bahinga ku buryo bwa kijyambere, bari mu mahugurwa.

Udufuka twa kawunga tugerekeranye twinshi, turi muri botike aho baranguriza, tukaba turimo kawunga cyangwa se umuceri, turi mu isoko aho baturanguriza. Iyo ugiye kugura, ugura agafuka.

Umurima munini cyane w'ibigori bya buride. Ibigori bikaba biri guterera, ibyo bigori bikaba biri mu gisambu. Ibigori bya buride bivamo igikoma ndetse barabyotsa bakabirya ari bibisi. N'iyo byumye barabisarura bakabitekamo impungure cyangwa amahundo.

Ibishyimbo byumye biri mu mufuka. Ni imifuka ibiri, hari umufuka urimo ibishyimbo bya nyiramukara, hari n'urimo ibishyimbo by'umushingiriro, byiza bita kiryumukwe. Ibi bishyimbo barabihinga cyangwa se bakabiteka. Ibishyimbo ni ibyubaka umubiri. Abantu benshi bakunda ibishyimbo kuko iyo udafite ibishyimbo guteka biragorana.

Ibishyimba byumye， birimo imishingiriro. Ibyo bishyimbo bikaba biri mu murima， mu gisambu， ibishyimbo barabisarura，bakabihinga， ibishyimbo babiryamo intonore， cyangwa se bakabirya ari ibishyimbo byumye， ibishyimbo biri mu byubaka umubiri.

Ubunnyebwa buri mu bishishwa budatonowe, busaruye mu bitaka bamaze gusarura mu butaka, ariko bukaba bwanitswe bategereje kuzabutonora, ubu bunnyebwa bukorwamo isosi, butekwa, barabukaranga bakabuhekenya nka deseri, ndetse buri mu bihingwa byubaka umubiri.

Abantu bari kurobanura udushimbo two gutera. Ariko ibi bishimbo ntabwo ndi kubisobanukirwa, gusa biri ku nkoko hariho n'intoki z'abantu batatu batandukanye, ibiganza bifite inzara bifashe ibyo bishimbo mu ntoki biri ku nkoko.

Ibishyimbo by'umumera. Hari igishyimbo kikiva mu butaka, igishyimbo kiri kweguka n'igishyimbo kimaze kugera ku kuba urugarama. Ibishyimbo iyo byumye barabitera, noneho bamara kubitera bakabishyira mu butaka bagategereza ibyumweru bibiri ibishyimbo bikavayo. Iyo bimaze kuba urugarama, basoromaho umushogoro byakura bikavamo intonore. Ibishyimbo biraribwa.

Umugore witeze igitambaro wambaye agapira, agasengeri k'umutuku n'ijipo ya karokaro, ari mu murima munini urimo imyaka, ari gukubura, ari gushaka inzira ngo agende, uwo mugore yiteze agatambaro k'umuhondo.

Igishyimbo cy'ikizungu gifite amababi, Ndetse n'uruyange ,n'intonore ,uruyange rw'umutuku, n'umweru, kikagira n'imishogoro y'icyatsi. Igishyimbo bakita kiry' umukwe. Gikunda guhingwa ku ishyamba muri zone y'ibirunga kikaba kiryoha cyane.

Ibishimbo by'ibizungu bifite uruyange, imiteja n'intuza n'ibishogoro, ibi mushingiriro babyita kijyumukwe bihingwa mu gice cy'ishamba, borodire y'ibirunga mu mirima, biri mu gisambu.

Amasaka y'amamera binuye ari kumera n'ikiganza kiri kurebako yameze neza, ayo masaka iyo amaze kumera wayahekenya barayanika cyangwa se bakayatera ,aya masa barayanika bakayashigishamo umusururu ni cyo akoreshwa.

Umuntu uri mu bishyimbo wambaye ipantaro y'umukara afashe imiteja mu ntoki, ari gusoroma imiteja yo guteka, imiteja iva ku bishyimbo bahinze, nayo barayirya, itanga. ni imboga nziza igira akamaro ku buzima bw'umuntu.

Umusaruro w'ubunyebwa bwinshi cyane e ariko budahuye cyangwa se budatonoye ,iyo ufashe ubunyebwa ukabutonora havamo ubunyebwa bufite ibara ry'umutuku ,wabubetesha ukaba wabushira mu biryo cyangwa mu isombe cyangwa ukabuhekenya ari bubisi ,ubunyebwa bufite akamaro kanini ku buzima bw'umuntu.

Ibishimbo bigufi byumye watera bihingwa mu gice cya kinigi; ibi bishyimbo bikaba bigira isosi nziza ituma ibirayi bitukura, kandi byerera amezi atatu ntibishingirirwa.

Igihwagari kiri mu murima mu gisambu cyeze, gifite amababi y'icyatsi, hejuru kikaba gifite ururabo, ururabo rukaba rusa n'umuhondo, mo hagati harimo ibara ry'umukara aho hava imbuto, igihwagara kikaba kivamo, amavuta yo kurya, ndetse n' imbuto zacyo barazihinga zikongera zitera.

Ibishimbo by'umumera, ibishimbo biri kuva mu muntuza mu gihu, noneho ibishimbo by'urugoyi n'ibishimbo bigize gute, biteze amababi urugoyi uruhunoza rwavuyeho n'igishishwa cy'igishimbo.

Ibishyimbo byumye bita ibinyobwa. Ibi bishyimbo biraryoha， biranahenda，ikiro kigura hejuru y'igihumbi na magana abiri， ariko ibishyimbo birera， bifite ibara ry'umweru n'ibara ry'umutuku，bikaba babyita；bijya mu bwoko bwa kivuzo， ibi bishyimbo biraribwa.

Amajeri atumbitswe ari kumera akaba amajeri afite imimera watera. Kugira ngo aze gukura amajeri akaba iyo uyahinze uyasaruka ukayarya.

Amajeri yumye ari ku mufuka, ayangaya wayateka, cyangwa se ukayatera ikiro cy'amajeri kigura amafaranga ibihumbi bibiri yo gutera gusa ajya kwitwara nka soya.

Amasaka y'intoke afite ibara ry'icyatsi atarasarurwa, ari mu murima mu gisambu. Aya masaka akaba bayanywamo igikoma. Iyo yumye barayagesa bakayashinga mu murima bagakebaho iyo mitwe yo hejuru y'umutuku, akaba ariyo bahura bakayivanamo amasaka y'igikoma.

Abagore bari kugosora, ariko basuwe na mukerarugendo bari kumwereka uko bagosora bakoresheje intara, ni abagore babiri umwe apfutse agatambaro k' umweru, undi ni agatambaro k' umukara, bambaye amashati y' ibitenge, bakenyeye n' ibitenge bindi bari kugosorera ku ntara umukerarugendo cyangwa se umuzungu wabasuye arimo hagati.

Amajeri yumye asutse ku shitingi. Andi akaba ari mu ibase y'umukara. Ayo majeri bakaba bayatera cyangwa se bakayateka. Amajiri afite akamaro kanini ku buzima bw'umuntu.

Igitebo bita agasero, agasero bagatwereramo cyangwa bakabikamo imyaka, aka gasero kakaba kaboshywe mu giti bita umugano. Umugano barawuhotora barangiza bakawanika, bakaza kuboha agasero kabikwamo imyaka.

Imifuka myinshi ifungiyemo ibiryo by'inkoko, ibi biryo by'inkoko bakaba babiha amatungo, bikaba bigaburirwa inkoko zororerwa mu rugo, bashobora no kubigaburira ingurube, n'inka zirabirya, biterwa n'ubwoko bw'ibyo biryo, ariko biri mu mifuka miremire ya kiro jana.

Inzuzi z'ibihaza, ibihaza binini bita amadegede. Izi nzuzi barazikaranga bakazirya, ariko n'ibihaza na byo ubwabyo byorosha mu nda. Ni bii bifite akamaro kanini ku buzima bw'umuntu, ee usibye n'ibihaza barya n'ibisusa, izi nzuzi zo barazitera.

Ibigori bya iburide bishayitse, bikaba biri mu bwanakiro noneho ubu bwanikiro bukaba buzitijwe amabati atukura, hejuru na ho busakaje amabati ,ibiti bibukikije buri mu mpande bikaba bisizwe irangi ry'umukara, kugira ngo ibyo biti bitazanundwa.

Ibintu biri kumera bimeze nk'ibihumyo, bifite umumera, bimeze nk'ibihumyo, bifite umumera n'ikintu cy'igitwe cy'ikigofero.

Inzuzi z'ibihaza, ibihaza by'amarenzi, ibihaza inzuzi barazitera cyangwa se bakazikaranga bakazirya zitetse. Izi nzuzi ziva mu bihaza biba bisa n'imbere umuhondo, bakabitekamo imboga cyangwa se bakabigereka ku bishimbo.

Umugore wambaye akabodi k'umukara wambaye akabodi k'umweru, yiteze igitambaro cy'umukara abakinyeye igitenge, ari gukora mu biryo by'amatungo biri muri sitoke imifuka myinshi cyane ari kurebako ibyo biryo by'amatungo byujuje ubuziranenge.

Ingurube nini isa nabi ifite amaguru wagira ngo iri mu fumbire iri no kurya ikintu kimeze nk'umwenda. Ingurube nini cyane y'igitaka, ifite n'amabere, ifite amaguru ane.

Umugabo uri mu rupangu uri gukingira inka. Inka y'umukara n'umweru ifite ibara ry'umukara n'umweru. Iyo nka ikaba iri mu rupangu, aho baziterera umuti. N'izindi nka ziri ku ruhande, uwo mugabo yambaye isarubeti y'ubururu w'umuveterineri, n'abandi bagabo bari ku ruhande bazanye inka.

Ingurube nini cyane. Iryamye hasi yabyaye. Ikaba ifite ibyana birindwi. Ibyo byana birindwi bikaba ifite amabara y'umukara. Noneho ingurube iraribwa. Ingurube ivamo amafaranga bakunda kuyiteka, kuyivuga ku izina rya kabenzi.

Inka eshatu ziri mu gisambu izo nka imwe ikaba ifite ibara ry'umukara n'umweru , indi ikaba ari inka isa nk'igitaka noneho n'indi nka y'ubugondo izo nka zikaba ziri mu gisambu ziri kurisha.

Ingurube ibibwana bitatu biri mu kirunduro bifite amaso, amatwi, bamatwi n'amazuru. Hano ni ibibwana bibiri bigaragaza amaguru n'amaboko yabyo n'amaso, ndetse n'amatwi, kandi ingurube barazirya zikavamo n'amavuta.

Urushinge n'umuti byo gutera umurwayi cyangwa se urukingo nguru ruri kumwe n'urushinge barateza umurwayi bibyo ku bitaro biba kwa muganga.

Busheri. Busheri ni ahantu bacururiza inyama, izi nyama rero zikaba zibaze, hariho umugabo ufashe mu ntoki inyama, arashaka kuzikata ngo azijyane ku munzani, ari kuzishyira muri cya cyuma gikata kugira ngo icyuma kizicemo kabiri.

Inkoko y'isake, inkoko ikaba ikangura abantu, ikaba iri mu matungo yo mu rugo. Inkoko iraribwa yaba itogosheje, yaba yokeje, kuyitekamo igisafuriya, inkoko ifite akamaro kanini cyane mu rugo, kuko iyo umuntu yaryamiye iramukangura. Inkoko mu muco nyarwanda bayifataga nk'isaha.

Inkoko za koloyira ziri kumwe n'udushi twazo twinshi nyinshi cyane ziri mu ntuza mu kirunduro cyazo e zirimo ubwo zaraturaze zirimo nyinshi ziri uri kubona ko ari inkoko zirenga nk'ijana.

Umusore uri kureba ihene yari ajyanye mu isoko. Iyi hene ikaba irwaye uburenge cyangwa se amabari, ari kureba impamvu ikibazo yaba ifite munsi y'ibirenge, ishobora kuba irwaye uburenge cyangwa amabari. Umusore yambaye inkweto za supuresi n'ipantaro y'umukara n'ishati ya kaki.

Inka zigera muri esheshatu ziragiwe mu gikuyu, ahantu mu kibuga cy' cy'umupira, inyuma yazo hari ibiti. Inka zitanga amata, inka ziribwamo inyama, inka barazorora zikabyara, inka ni nziza ni amatungo yo mu rugo.

Inka nyinshi zifite ibara ry'umweru n'izifite ibara ry'umukara, ziri mu gikuyu ahantu hubatse ibiti bigera kuri bine ariko bikaba bisakajeho ishitingi, izo nka zirugamye, ni inka nyinshi cyane ziri ahantu hamwe mu kibara ahantu hadahinze.

Inuma ihagaze ku ishami ry'igiti yo mu bwoko bw'ikirogoryo, ifite ibara ry'umukara n'umweru n'umuhondo ku jisho, ikaba ihagaze ku mashami yumye, iri kureba imusozi. Ikaba ari inyoni imeze nk''ubwoko bw'ikirogoryo muri za zindi zonaga imyaka.

Igisiga kiri kugaburira icyana cyacyo, kizanye ibyo kurya kivuye kubishaka kiri kukigaburira aho cyagisize mu kintuza mo kiryamye kiri kugiha nk'amajeri cyangwa se indi myaka cyavuye kona.

Nyirabaraza ihagaze impande y'ikigezi, aha ni kuri mukungwa, ni bya bisiga byo mu mazi bimaze gutoragura ibigona, ibisiga byo mu mazi.

Imparage, imparage umenya ziba mu birunga, ariko iyi nyamaswa ifite ibara ry'umukara n'umweru. Iri kundeba ikaba ifite n'umurizo w'umukara. Irahagaze ifite n'amatwi abingaraye.

Ingagi mu ishamba, iri kurira igiti. Iyi ngagi imeze nk'ikigabo, ifite ibirenge n'intoki nkiby'abantu ndetse ifite umunwa, amatwi, impanga n'amazuru. Ikaba irikurira igiti cyo mushamba.

Ibisiga biri kudomana, biri kugaburirana biri kumwe n'ibyana byabyo, bikaba biri ahantu byaguye ku butaka ariko mu gice cy'imisozi ibisiga.

Inyoni y'umusure iri gukora icyari, igikoresheje umunwa n'amaguru iki cyari akaba aricyo iraharamo, kugira ishire imbeho cyangwa se ikugamamo imvura mu gihe imvura iri kugwa, icyari kugikora mu byatsi irikuja gushaka ikabizana ikageda irakiboha.

Ibyana by'ifundi z'inyoni ziri mu cyari bitarareba bikiri bitoya bitara biri kumera ubwoya bategereje bya nyina byagiye kubi hahira ariko biri mu cyari ibyo byana by'inyoni n'ibibiri.

Impigi n'ikibwana cyayo igifashe mu zosi e iri kukirembera, igifubika ngo kiticwa n'imbeho ikaba iri mu ishamba.

Inyoni nyinshi zihagaze ku migozi zifite ibara ry'umweru n'umukara. Inyoni ni ibisimba biguruka mu kirere ,ariko zona imyaka cyane uruyange rw'ibishyimbo, ariko inyoni zikaba zifite ubwenge kuko zikora icyari, cya cyari zakoze zikacyugamamo imvura ,kandi akaba arimo zirara inyoni zigahurira n'ibyana byazo.